Umusore wishimye cyane, yambaye amadarubindi y'umukara, ari guha umwana w'uruhinja amata, ayavanye mu cyansi cya kizungu, kandi hari umubyeyi umukikije. Kenshi na kenshi abana bari mu kigero cy'umwaka kugeza kuri itanu, hari igihe bagira ikibazo cy'imirire mibi ugasanga babarwaye bwaki.

Umubyeyi wambaye impuzankano cyangwa itaburiya y'umweru y'abaganga, akaba yicaye imbere y'ababyeyi batatu, bamutegerejeho serivisi yo kwa muganga, ari kubapimira umuvuduko wabo ndetse areba n'uko umutima wabo uri gutera, ni byiza kwita ku bantu kugira ngo urebe imibereho myiza yabo.

Umugore wambaye impuzankano y'abaforomo, hasi yambaye ipantaro ifite ibara ry'ubururu, hejuru ni umweru kandi yambaye agapfukamunwa kabugenewe, impande ze ari kugira inama uyu mugabo, mu buryo yakirinda sida, kandi dufatanyije buri wese akikingira mu buryo bw'iwe, byagabanuka, kandi bikagabanya amahirwe y'uko buri wese yarwara sida.

Umwana w'umuhungu wambaye impuzankano y'ishuri ryiwe, mu ntoki ziwe harimo amazi y'urubogobogo meza yo kuywa ari mu macupa abiri, gusa ku ruhande hari amazi y'ikidendezi ubona ko asa nabi, ni byiza kunywa amazi meza kubera ko bikurinda indwara zo mu nda nk'inzoka ndetse n'ibindi byose nk'iby'uruhu.

Icyumba cy'inama giteraniyemo imbaga nyamwinshi y'abantu bavuye ahantu hatandukanye, bari kwiga ku kibazo cy'ubuzima ndetse n'imibereho y'abaturage muri iki gihugu cyacu, imibereho y'abantu ubwo hagize ubuzima, ubuzima haba harimo indwara n'uburyo wakwirinda izo ndwara, imirire ndetse n'imibereho, ubwo ndavuga akazi cyangwa ubuzima bwabo bwa buri munsi.

Ikibanza kinini kigizwe n'urugomero rw'amazi, ubwo ndavuga aho amazi akusanyirizwa kandi akaba afatwa akoherezwa mu bigega biza kugaburira umujyi wose, aha urabona ko hitaweho hari ubusitani kandi nta mwanda uhari ngo utanduza ayo mazi, kubera ko ajya mu ngo agakoreshwa mu bintu bitandukanye: nko guteka, koza amasahane ndetse no kumesa.

Umubyeyi usutamye wegereye abana kumukeka aho bicaye, bambaye impuzankano imwe, ari kubaha amata ayavanye mu cyansi, ni byiza guha abana amata bibarinda indwara nka bwaki, cyangwa izindi ndwara zose ziva ku mirire mibi, kenshi hari igihe batabyitaho, ariko kubera iterambere ryaje ubu, ku kigo nderabuzima usanga batanga izo mfayigisho kugira ngo babashe kurya.

Icyumba cy'inama yateraniyemo imbaga nyamwinshi, urabona ko harimo abantu batandukanye harimo ab'uruhu rwera ndetse n'ab'uruhu rw'ino muri Afurika, bari kwiga ku kibazo cy'ubuzima bwiza ndetse n'imibereho y'abaturage muri rusange, iyi nama ikaba yabereye mu Rwanda bitewe n'idarapo ry'Igihugu cyacu riri ku ruhande.

Umusore muto muto wambaye amadarubindi afite ibara ry'umukara, akaba yambaye umupira umwe n'uno mwana ari gupimira ibiro ufite ibara rya oranje. Gupima ibiro ku bana ni byiza kubera ko ubuvuzi ndetse no gutangwa kw'imiti bigendera ku biro by'umwana.

Umugabo wambaye amadarubindi ndetse n'impuzankano ubona ko ari iyo kwa muganga, ifite ibara ry'ubururu, ari kwakira umwana mu gikorwa cyo gupimisha ibiro mu bana bari munsi y'imyaka itanu, iki gikorwa ni cyiza kubera ko imiti cyangwa ubundi bufasha bwose bwo kwa muganga butangwa bakurikije ibiro by'umwana.

Abana batandatu bari mu kigero cy'imyaka hagati y'itanu ndetse n'icumi, bari mu kidendezi cy'amazi bari koga. Ni byiza kurebera abana mu gihe bagiye muri ibyo ngibyo, kubera ko bashobora kugira impanuka, ugasanga umwe ararohamye, kandi icyo kidendezi kenshi amazi aba arimo ntago aba asukuye, ku buryo bajya kuyoga cyangwa bakayanywa, bishobora kubaviramo indwara zituruka ku mwanda.

Umugabo wambaye imyenda imukingira, harimo ikintu mu maso ndetse n'agapfukamunwa, urabona ko yambaye n'itaburiya yera ndetse n'ibimufasha kwirinda mu ntoki nkuko hanze bayita ngo ni ga, uwo mugabo akaba ari umuganga akaba ari kuvugisha uyu musaza, amubaza uko ahagaze kandi amupima indwara yaba afite.

Imbaga nyamwinshi ikikije umugabo wicaye, ari kubererekera kandi akabereka uburyo bafata imiti kandi uburyo bita ku murwayi igihe yagize ikibazo, bakamuha ubutabazi bw'ibanze. Ni byiza kwiga ibi bintu kubera ko ntiwamenya igihe mugenzi wawe agize ikibazo kandi ubutabazi bw'ibanze burinda buri muntu wese kuba yajya mu matsa cyangwa ubuzima bwamukomerana.

Icyumba cyabereyemo inama yerekeye mu guhangara ndetse no kurandura icyorezo cya maribaga mu Rwanda, imbere hari abagabo babiri bari mu bwumvikane, bavuga uburyo bazashishikariza abantu kandi bazanabakingira muri iki cyorezo kugira ngo buri umwe wese atazandura, bikaba byashyira ubuzima bwe mu kangaratete.

Umwana w'umuhungu uteruye indobo yuzuyemo amazi, ku mpande z'iwe hari umugabo ugiye kuyikorera, urabona ko aha hari isoko, kera badutumaga amazi ku iriba ugasanga umuntu avomye amazi y'ibirohwa ariko kubera Leta y'ubu haje isoko impande z'umudugudu wacu, kenshi na kenshi niho tuvoma amazi meza ukaba wayakoresha mu bikorwa byo mu rugo.

Umugabo uri koga intoki wambaye ikote, hakoreshejwe itiyo ry'amazi ubona ko riri kumusukira, ni byiza gukoresha amazi meza mu bikorwa bya buri munsi, bikaba byakurinda indwara zo mu nda ziterwa n'ubuyoka bwa hato na hato, buba buri mu mazi asa nabi.

Itangazo rivuye ku kigo mpuzamahanga gishinzwe ubuzima bwo mu mutwe, ku bufatanye na RBC yo mu Rwanda, bivuga ko umwana, umunyeshuri, ingimbi n'umwangavu, bagomba kwitabwaho ubuzima bwabo bwo mu mutwe, atitaye kuko yaba ameze kose kubera ko hari igihe bititwaho ngo ni umwana ngo cyangwa ngo nta kibazo ashobora kugira.

Umusaza wishimye cyane witeye umukenyero ndetse n'ishati, ku ruhande rw'iwe afite icumu ubona ko ari guhamiriza. Ni byiza kwishima cyane mu gihe ugeze mu gihe cy'izabukuru, bikurinda agahinda gakabije kandi bigatuma ugira umunezero wowe n’abawe, hari igihe tutita ku ihungabana umuntu ashobora kugira kandi ari byiza kuba wamuganiriza ukumva ikibazo afite.

Ikirangantego cy'ivuriro rikurikirana ubuzima bwo mu mutwe, bakaba bagufasha kumenya nimba ufite indwara zikurikira, kuba ufite agahinda gakabije kakaba kagutera kurya cyane, kuba ufite ubwoba bukabije bw'ikintu nk'ubwoba bwo kuba wajya mu mazi, kujya ahantu harehare ndetse n'ibitekerezo byo kwiyahura.

Umunsi mpuzamahanga w'ubuzima bwo mu mutwe, ushishikariza buri umwe wese kwisuzuma, nimba nta kibazo yaba afite, kubera ko ntawe ukomeye cyane ku buryo atakigira, nta n'uworoheje cyane ku buryo kitamugeraho, buri umwe wese aba agomba gufatikanya, kandi tugahuriza umugozi umwe, kugira ngo turebe iryo hungabana, kandi turice mu bantu.

Umugabo wambaye impuzankano yo kwa muganga byerekana ko ari kwakira uyu mubyeyi uje ufite ikibazo kimuhangayikishije, ni byiza kwita ku buzima bwacu bwo mu mutwe bikurinda ibitekerezo byatuma wiyahura, ubwoba bukabije bw'ikintu nk'amazi cyangwa ahantu harehare, agahinda gakabije katuma wigunga cyangwa ukagira ihungabana.

Icyapa cya Isange One Stop Center, aha hakaba hatangwa serivisi zikorana na Repubulika yacu y'u Rwanda ndetse na polisi y'u Rwanda, aha hakaba hatangwa serivisi mu gihe waba wafashwe ku ngufu, waba wakorewe irindi hohoterwa iryo ari ryo ryose mu kazi cyangwa igihe usaba akazi, iyi ikaba ikorana n'imiryango itegamiye kuri leta harimo nka UNICEF.

Ikirangantego cyo ku munsi w'ubuzima bwo mu mutwe ku si yose, cyerekana ko gutahiriza umugozi umwe, no gufatikanya mu gihe buri umwe wese afite ikibazo, ari cyo gisubizo cyo kurinda ndetse no kuvanaho icakubiri cyangwa kwiheba, byaba byaratewe n'ibyabaye mu gihugu cyacu.

Umubyeyi mukuru wihishe mu maso, ubona ko afite agatambaro ari kurira. Ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe kijyanye no kuba yakiyahura, ubwoba bukabije, agahinda gakabije, cyangwa ikindi kibazo icyo aricyo cyose cyaba kimutera agahinda. Ibi ntabwo tuba tugomba kubireberera, icyiza ni uko umuntu yamwegera. Umuntu wabyigiye, akamuganiriza kandi ntamutere ubwoba.

Iryinyo riri gukurwa na muganga ufite icyuma cyabugenewe gikura iryinyo, ku ruhande hari ikindi cyamufashije kuba yazamura umunwa ngo uyu mwana ataza kubabara cyane, kenshi abana bakurwa bafite imyaka itanu kugeza ku icumi, abaganga bagomba kuba bambaye umwambaro ubakingira mu ntoki kugira ngo bataza guteza imyanda cyangwa ububabare mu kanwa k'abana.

Umusore wishimye ufite inseko nziza, amenyo yiwe ari ku murongo kandi arererana. Ni byiza kwita ku menyo yacu kubera ko birinda kuba yacukuka cyangwa akavamo mu gihe dutangiye gukura turi nk'abasaza ukaba wabona ufite igihanga. Hari igihe tutabyitaho kandi biba bikenewe, koza amenyo mbere y'uko tujya kuryama cyangwa ukayashyira ku murongo ukoresheje biriya byuma byabugenewe.

Igipapuro gitangwa na muganga w'amenyo, igihe yakunyujije mu cyuma cya Egisi-reyi nk'uko abazungu babivuga, iki gipapuro kikaba gifasha muganga kukwereka ahantu ikibazo mu menyo yawe aho kiri, ndetse bikaba byamufasha guhindura mu gihe bibaye ngombwa, akakwambika bya byuma byabugenewe, kugira ngo amenyo yawe ajye ku murongo kandi ntatatane.

Umukobwa wambaye impuzankano ubona ko ari iy'akazi, ifite ibara ry'ubururu ari gupimira umuvuduko uyu musaza kandi akareba n'uburyo umutima w'iwe uhagaze. Ni byiza iyo umuntu ageze mu za bukuru kuguma yipimisha akareba ko ubuzima bwe buri kugenda kugira ngo yirinde indwara zava ku muvuduko mwinshi.

Ishyirahamwe rigizwe n'abantu benshi batandukanye, bakaba bakoreje hamwe igikorwa cyo gutanga ibiringiti kuba basheshe akanguhe ndavuga abakecuru n'abasaza ni byiza kwita kuri aba bantu kugira ngo bazagire amasaziro meza kandi bibarinde indwara zabukuru nka rubagimpande ndetse n'ubukonje bukabije.

Umuryango mugari wishimye, harimo umugabo ndetse n'umugore w'iwe, ku migongo yabo hari abana 2, ku ruhande hari abasheshe akanguhe ubona ko harimo umusaza w'imvi z' urugenzi. Ni byiza gushimisha abasaza mu gihe bari mu minsi yabo ya nyuma kandi bituma bagira amasaziro meza, ukabaha indyo yuzuye, ibi ni byiza cyane ku mibereho yabo.

Umukobwa wambaye impuzankano ya giforomo ifite ibara ry'ubururu akaba ari kwita ku mukecuru ufite imvi z'uruyenzi, ari kumuha imiti nk'uko byagenwe ko ayifata buri munsi ndetse ku ruhande rwe hari igikombe cyuzuye amazi araza guhita amirisha. Ni byiza kwita ku basheshe akanguhe kubera ko bituma agira amasaziro meza.

Umuryango munini wishimye cyane ugizwe n'abantu batandatu, harimo umugabo n'umugore we, ku migongo yabo hari abana babiri umuhungu n'umukobwa, ku ruhande rw'umugabo hari umubyeyi, ukuze uri mu kigero cya nyina ndetse ku ruhande rw'umugore hari umusaza ufite imvi z'uruyenzi, ni byiza kwita cyangwa gushimisha ku bantu bakuze kubera ko bibaha amasaziro meza.

Umubyeyi ukuze cyangwa umukecuru witaweho, kandi uri kwarurirwa n'abana biwe babiri, umusore umuri ku mpande rw'ibumoso, ndetse n'umukobwa uri iburyo, bari kumuha indyo yuzuye, harimo, imbwija, umugati ndetse n'imbuto, ni byiza kwita ku mukecuru cyangwa ku muntu wese ukuze, kubera ko bituma agira amasaziro meza.

Abantu babiri bicaye harimo umubyeyi ukuze cyane ubona ko yishingikirije akabando, ku ruhande rwe hari umuganga wambaye impuzankano ufite n'icyuma gipima uburyo umutima utera, ni byiza kwita ku babyeyi cyangwa abasaza bageze mu zabukuru bituma bagira amasaziro meza.

Umubyeyi ukuze cyangwa umukecuru, wicaye imbere y'amashyiga ndetse aracanye ku gakono kiwe, impande ziwe hari amashara n'ibishararagati, ku ruhande hari igihuru, uwo mukecuru urabona ko atabayeho mu buzima bwiza kandi yakagombye kuba yitaweho ndetse agakurikiranwa n'ubuzima bwiwe kugira ngo atazapfa ahuhutse.

Abantu babiri bicaye ku meza bari gusangira icyo kunywa, urabona ko harimo umusaza w'umusheshe akanguhe ndetse n'umusore bari kuganira. Ni byiza kuganiriza abantu bageze mu zabukuru bituma batagira ihungabana cyangwa ngo batinye ko benda kwegera iminsi yabo, kandi ibi bibafasha mu masaziro meza.

Ababyeyi bakuru babiri bicaye ku meza bari kuganira ubona ko barakuze, inyuma yabo hari umusore uri gusunika akagare uyu musaza yicayemo. Ku ruhande hari umukecuru ufite imvi z'uruyenzi. Ni ngombwa kwita ku bantu bakuze kubera ko bituma bagira amasaziro meza, ntibagire agahinda gakabije kandi ukabaha imirire yuzuye.

Abaganga bambaye impuzankano yabigenewe, ubwo harimo itaburiya ifite ibara ry'icyatsi, agapfukamunwa ndetse n'agatambaro kabarinda mu mutwe, urabona ko bari mu cyumba cy'ibagiro, ku ruhande hari ibyuma byabugenewe biri kwerekana uko umurwayi ahagaze, ndetse n'aho hantu hafite ikibazo bari kubaga. Ni byiza kugenda wirinze mu gihe ugiye mu cyumba cy'ibagiro.

Itangazo rivuye ku kigo cya RHIA gishinzwe gutanga amakuru ajyanye n'ubuvuzi, bikaba byerekana indwara ndetse n'ibimenyetso bya diyabete, harimo umwuma ukabije gushaka kujya kwihagarika kenshi cyane, kubona ibiyeziyezi ku ruzinga cyangwa gutakaza ibiro byinshi utabiteganyije.

Icyumba cy'inama giteraniyemo imbaga nyamwinshi, imbere hari abagabo babiri bayoboye inama, kandi bari kwakira ibibazo byaba ngaba, bari kwiga ku kibazo cyo guhagarika Marburg virusi, yari yarateye mu Rwanda, kandi yatwaraga abantu batari bakeya, ni byiza kureba kandi kwigira hamwe uburyo mwahagarika icyorezo kugira ngo bibe byanda abaturage muri rusange.

Ikibanza kinini kirimo inyubako igeretse gatatu, ubusitani butuma haza amahumbezi meza, iyo nyubako ni ibitaro bikuru bya Nyarugenge byakira abantu bose, ababyeyi baje kubyara, abana batoya, abasheshe akanguhe, abafite ikibazo cy'isukari ndetse n'abaje kwivuza amaso.

Inyubako nziza kandi yabugenewe ifite amadirishya y'ibirahure, mo imbere bacuruzamo amadarubindi y'ubwoko bwose biterwa n'ay'umuntu aje ashaka. Ni byiza kwambara amadarubindi mu mu gihe ufite ikibazo, bituma ureba neza kandi ukabona ibintu biri kure cyangwa ibiri hafi bitewe n'ikibazo ufite, bikurinda izuba kuba ryakica amaso yawe ndetse bituma n'umuntu agira amaso y'umweru agaragara neza.

Icyumba kigari ubona ko harimo ibikoresho bikenerwa mu gikorwa cyo gutanga amaraso, harimo ibitanda abantu baba baryamyeho baje kwitanga kugira ngo bakore icyo gikorwa cyo gutanga amaraso, harimo n'abaganga baba bari kuyafata kandi bayafatira mu ishashi nziza yabugenewe kandi mu buryo butandukanye. Nk'uko dusanzwe tubizi hari ubwoko bune bw'amaraso kandi buri umwe wese agenda agira ubwiwe.

Ikibanza kinini cyane harimo inyubako ndende y'ubuvuzi, bakaba bakira abantu bafite uburwayi butandukanye, hari ababyeyi baba baje kubyara, abana batoya, abafite ikibazo cy'amaso ndetse n'ikibazo cy'umwijima, hirya ku ruhande hari ubusitani burimo ibiti by'ubwoko bwinshi, bukaba butanga amahumbezi mo aha ngaha.

Abagore batatu bambaye impuzankano y'abaforomo, ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ubururu urabona ko mu mutwe wabo harimo agatambaro gasa umweru kabarinda kuba imisatsi yabo yajya hirya no hino mu gihe bari kwita ku murwayi, ni byiza kwirinda ndetse no kwambara impuzankano mu gihe uri kuvura kugira ngo bikurinde kuba wagira indwara z'uwo murwayi.

Inyubako irimo ibikoresho bya kizungu bikaba bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, imyitozo ngororamubiri ni ikintu kiza cyane, igabanya ibinure kandi ikabigenza, ikaba yakurinda n'indwara z'umutima, ibihaha ndetse no kudahumeka neza, ni byiza nko mu mwaka gukora imyitozo ngororamubiri byibura inshuro zirenze makumyabiri.

Ikibanza kinini cyane kirimo inyubako igeretse inshuro eshatu, ku ruhande hari amamodoka, iyi nyubako akaba ari ivuriro, kandi ivuriro rikomeye cyane. Ku ruhande bari kwerekana ubwishingizi bakorana nabwo, abarwayi bakira b'ingeri zose, abakecuru, abasaza, abana batoya, ababyeyi baje kwibaruka ndetse n'abafite ikibazo cy'amaso.

Abagabo babiri bambaye amataburiya y'umweru bambaye udupfukamunwa ndetse n'agatambaro kabugenewe mu mutwe. Bari imbere y'ikimashini kinini urabona ko bari kugikandaho icyo kimashini nigikoreshwa mu buganga mu kuba basuzuma umurwayi bakamenya indwara arwaye kandi bakaba bamwitaho bigendeye kuri iyo ndwara ni byiza gukoresha ubumenyi bituma byoroshya akazi.

Icyumba kinini kisanzuye, gitatse neza, urabona ko harimo agatanda gato ubwo byerekana ko ari agatanda k'umwana, ku ruhande hari aho umuganga cyangwa umuntu wamusuye ashobora kwicara, hari akabati gatatse amabara meza, ubona ko gatuma umwana atagira irungu, ni byiza kuza wirinze mu gihe uje gusura umwana ngo utamwanduza ibirwara bya hato na hato.

Icyumba kinini kandi kigari cyabugenewe ubona ko ari icyo kwa muganga, harimo agatanda gato kabugenewe gafite amapine ku buryo gashobora kuba kakimuka ahantu umuntu atarinze guterura kandi hashushanyijemo ibishushanyo by'ubwoko bwose byerekana ko icyo cyumba ari icy'umwana, ni byiza gutuma abana bisanzura mu gihe barwaye bituma bakira vuba.

Icyumba kigari kandi cyabugenewe, ubona ko harimo ibyuma by'ubuvuzi, ubwo aha ngaha ni ho bakunyuza iyo bashaka kureba ibintu biri mu mubiri wawe indani, nk'amagufa, ubwonko, ndetse n'ibihaha nimba bifite ikibazo. Iki cyuma bacyita Egisireyi gifasha muganga kukwerekera ahantu ikibazo cyawe kiri, kandi bakakwitaho bagendeye kuri byo.

Icyumba kinini kigizwe n'imbaga nyamwinshi y'ababyeyi bakuze, bambaye impuzankano ifite amabara atandukanye, harimwo imwe ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru. Baje kwitabira igikorwa kiri kubera kwa muganga, kandi bumva inama z'uburyo bakwirinda, cyane cyane indwara zandurira mu mwanda cyangwa imirire mibi.

Icyumba cyabereyemo gukingirwa icyorezo cya epatite cyangwa covid harimo umugabo wambaye itaburiya y'umweru ga zabugenewe,, ubwo ndavuga imyambaro yo mu ntoki, ndetse ari gutera urushinge umugabo wicaye umeze nk'aho ari umurwayi kugira ngo bamukingire. Ibi ni byiza bigabanya amahirwe yo kuba wafata iyo ndwara kubera ko baba baragukingiye.

Icyumba cyo kubagiramo umurwayi mu gihe afite ikibazo k'indwara bimusaba kubagwa, harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitangaje, ku ruhande hari utumeza dufite amapine, ku buryo bashyiraho ibikoresho byabo, batarinze kwirwa baterura, hejuru hari igitara kinini cyane, gifasha muganga kuba yareba neza mu gihe ari gukora igikorwa cyo kubaga.

Icyumba cy'abarwayi b'indembe, nk'uko benshi bakunze kuhihita ngo muri Aligence, haba harimo ibikoresho by'ubuvuzi byakorewe hanze, kandi bivura bikaba byagufasha no kwivuza mu buryo bwinshi butandukanye, hari icyakurebera umutima wawe uko uhagaze, ikikongerera umwuka ndetse n'aho bashyira imiti yawe igihe bagiye kuyigutera.

Icyumba kigizwe n'abantu batatu, harimo umwana uri mu bubabare uri kurira muganga akaba ari kumva uburyo umutima we uhagaze akoresheje icyuma cyabugenewe aba yashyize mu matwi ndetse yambaye n'itaburiya y'umweru, ku ruhande hari mukuru w'uyu mwana uri kumuhumuriza nawe we, impande zabo hari ibyuma byabugenewe nk'agati karekare kariho serumu bateye uyu mwana.

Ibaraza ryo kwa muganga, ubona ko ritwikiriye, ku ruhande hari ababyeyi bategereje, kandi hakaba hari n'icyapa cyerekana ubwishingizi bukorana n'icyo kigo nderabuzima, ndetse n'imigabo n'imigambi bagenderaho, ku ruhande hari ikigega kinini giha amazi ivuriro, kandi hakaba hari n'abantu bategereje bihanganye mu gihe bataragerwaho.

Icyumba kinini cyane, ubona ko cyagutse, gifite ibyuma ndetse n'amatara acanye cyane yabugenewe, aha akaba ari mu bubiko bwo kwa muganga. Ubu bubiko buba bwitaweho cyane kugira ngo imiti idapfa, ibyo bagenewe umurwayi bidapfa cyangwa ibyuma bireba ubuzima bw'umurwayi bitangirika.

Icyumba cyo kubagiramo umurwayi mu gihe afite ikibazo kwa muganga, ku kibambasi hashushanyijeho inyamaswa nyinshi mu mabara atandukanye, ibi byerekana ko iki cyumba ari icy'abana, hari ibyuma byabugenewe nk'ibitara binini, agatanda kagenda ku buryo bidasaba ko wirirwa ugaterura, intebe muganga yicaraho ndetse n'ibindi byinshi.

Icyumba cy'abarwayi baruhukiramo, harimo igitanda kinini cyabugenewe, kikaba gishobora kugenda kubera amapine kandi ukaba wagihindura ku ngano ushaka nimba ushaka umurwayi yicara, ku ruhande hari agati karekare bamanikaho serumu mu gihe bari kuyitera umurwayi kandi hari n'akameza karimo akabati ushobora kubikamo imiti y'uwo murwayi.

Abantu babiri bambaye impuzankano itandukanye, hari umukobwa wambaye impuzankano ifite ibara ry'ubururu n'umusore uri hejuru wambaye impuzankano y'umweru, urabona ko bari kugundagurana ariko uyu akaba ari umukino witwa jido, uyu mukino ni umwitozo ngororamubiri mwiza kandi abakobwa nabo ntabwo batereranywe ntabwo batanzwe n'uno mukino.

Umugabo wambaye impuzankano y'abantu baba bagiye mu myitozo ngororamubiri, aha ari kwerekana ibyiza byo gukora iyo myitozo. Igabanya guhangayika bikabije, igafasha mu igorora, ikagabanya ibinure ndetse n'umuvuduko, ku ruhande urabona ko yambaye isaha iri kumwereka inshuro amaze kugenda kandi bikaba byatuma atarenza urugero.

Umusore wambaye imyenda y'imyitozo ngororamubiri, ku ruhande rw'iwe rw'ibumoso yambaye isaha ku kiganza cy'iwe, kandi urabona ko ari kubabara mu ivi, ni byiza ko ukora imyitozo ngororamubiri ariko nturenze urugero, kubera ko bishobora kwica inyangingo zawe, ugasanga amavi yatangiye kukurya, imikaya yawe ihora yakanyaraye kandi ibi bitera ububabare bukabije.

Umuti uri mu gacupa k'umweru usukika wanditseho Stopain cyangwa uhagarika ububabare, uyu ukaba ukora cyane kandi ugakora byihuse ukamara no mu mubiri wacu igihe kirekire, uyu uhagarika ububabare mu mikaya, rubagimpande ndetse n'izindi ndwara zose zaba zikubabaza ku mubiri wawe, ukaba upimwa nka militiro mirongo inani n'umunani.

Umusore wambaye impuzankano y'abantu bakora imyitozo ngororamubiri, afashe itako ryiwe ubona ko afite ububabare. Ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri, ariko iyo urengeje urugero ushobora kuvunika, cyangwa imikaya yawe igakanyarara ugasanga ugize icyo bita imbwa, cyangwa ugasanga urakomeretse bikabije. Iyo wagize icyo kibazo ni byiza kureba muganga mu gihe bitarakara.

Ikirango cyerekana ko ukoze imyitozo ngororamubiri akayikora nta bunebwe kandi abishyizeho umutima agafata imboga n'imbuto kandi akarya imirire yuzuye, uyu nguyu agira ubuzima buzira umuze agakomera amagufa yiwe ndetse n'imikaya biba bikomeye ku buryo byahangara n'indwara iyo ari yo yose yaza.

Umusore uvuye mu myitozo ngororamubiri, urabona ko arushye cyane kandi aranyotewe bitewe n'uko avuye kuyenza cyangwa kuyaza ibinure, ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri, bikurinda indwara ziva ku mubyibuho ukabije ndetse na diyabete n'ibihaha.

Ikirangantego cy'ahantu bakorera imyitozo ngororamubiri, berekana ko kuba wakora imyitozo ngororamubiri cyangwa siporo, bigufasha mu kwirinda ndetse no kuvura indwara utarinze kunywa imiti cyangwa ngo ujye kwa muganga, ubwo izo ndwara harimo goutte, umubyibuho ukabije, ibihaha ndetse n'indwara z'umutima.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, afashe mu ntoki umupira wo gukina, bikaba byerekana ko kuba wakivuza ni byiza, ariko gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza kurushaho, kubera ko bikurinda indwara, ibyatera iyo ndwara ndetse bikanagufasha kuba iyo ndwara wayitaho neza, cyane cyane ibijyanye n'umubyibuho ukabije, gutembera kw'amaraso ndetse n'umutima.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri urabona ko yirambuye cyane ndetse ari no kwinanura kugira ngo agorore umubiri wiwe, ibi bituma amaraso atembera neza kandi bikaba byamurinda indwara zituruka ku mubyibuho ukabije nk'ibinure byinshi byavamo stroke, goutte ndetse n'indwara z'umutima n'iz'ibihaha.

Igihuru kirimo utwatsi tureture twarabije uturabo twabyo tw'umweru, ibi bikaba byakoreshwa mu gutegura imiti gakondo ikoreshwa mu kuvura rubaga impande, indwara zo mu mutwe wo kwibagirwa ndetse n'indi mitima cyangwa ibihaha.

Igihuru kirimo ibyatsi kandi hakaba harimo n'ibiti byinshi cyane, ibi ibyatsi bikaba byakoreshwa mu miti gakondo cyangwa imiti ya Kinyarwanda nk'uko benshi tubyita, bikaba bivura rubagimpande, indwara zo mu mutwe, izo mu ngingo ndetse n'umutima, ibi bikaba byakoreshwa mu gihe umuntu ari mu zabukuru yewe n'umwana yabikoresha.

Igikarito cyuzuyemo imiti kandi akaba ari n'amavuta abobeza umunwa aturuka ku gihingwa cy'igikakarubamba twe twihingira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, iki gikakarubamba ukaba wagisiga ku mubiri wawe hakabobera, ku munwa wawe ndetse n'ahantu hari igikomere kikisana kandi bikaba byoroshya uruhu ndetse n'imisatsi.

Agati kananutse cyane gusa kariho ibibabi binini bitoshye, ibi bibabi bikaba bikoreshwa mu gutegura imiti gakondo ikuvura rubagimpande, diyabete, ndetse n'indwara zose ziva ku mubyibuho ukabije nka sitoroke ibihaha ndetse na gote.

Agati karekare kananutse kariho ibibabi binini cyane bitoshye, ibi bibabi bikaba bikoreshwa mu gutegura imiti gakondo, yagufasha kuvura rubagimpande, kubabara kw'imikaya ndetse n'ingingo zikubabaza kandi bikaba bifasha mu gutembera amaraso neza mu ngingo zacu.

Amacupa arindwi y'ubwoko butandukanye, harimo imiti isukika ya gakondo ikomoka ku bihingwa, iyi miti ni myiza cyane mu gihe ubuvuzi bwa kizungu budakora kandi ikaba yagufasha no kuba itagutera izindi ngaruka zose nk'umutima cyangwa umubyibuho ukabije.

Ni umuti uri mu gacupa gatoya cyane, kaba gakoreshwa ku ruhu kugira ngo kabobeze uruhu mu gihe waba ufite amaga cyangwa izindi ndwara zose zananiye imiti ya kizungu aka gati wagakoresha kandi harimo imiti ya gakondo igufasha kubobeza uruhu ndetse bikakurinda n'imyate aho wabigira hose.

Ikibabi gitoshye cyane kiri ku giti cy'umuravumba, kikaba kifashishwa mu gukora umuti gakondo, uyu muti ukaba uvura indwara zitandukanye, harimo inkorora, ibicurane, indwara z'inzoka zo mu nda, ndetse n'umuvuduko ukabije, ni byiza kuba wagifata ariko iyo ugifashe ari cyo cyonyine mu nda cyangiza amara ndetse n'igifu.

Ahakorerwa kandi hagatunganyirizwa imiti ya kinyarwanda cyangwa imiti ya gakondo nkuko benshi babivuga, urabona hari agasekuru ndetse n'umuhini wako, muri ako gasekuru harimo ibyo byatsi ndetse ku ruhande hari n'imbehe iteretseho ibyo byatsi byaba ari nyiramunukanabi, ibi bikaba byakoreshwa kuvura rubagimpande ndetse n'izindi ndwara zose zananiye imiti ya kizungu.

Ubwoko bw'ibyatsi burenga cumi na bubiri bukoreshwa mu gutegura imiti gakondo, harimo nyiramunuka nabi, umuravumba, umubirizi ndetse yewe n'igikakarubamba, ibi bikaba bihuzwa kugira ngo bivure rubagimpande, indwara zo mu mutwe haririmo nko kwibagirwa ndetse n'indwara zo mu nda zituruka ku gifu cyangwa inzoka.

Ibibabi bitoshye cyane biri ku giti, ibi bibabi bikaba byifashishwa mu gukora imiti gakondo, iyi miti ikaba ivura inyangingo ziri kubabara, imikaya cyangwa amagufa ari mu bubabare bukabije, ikaba iyobora amaraso neza mu miyoboro yayo kandi ikaba ifasha gutekereza neza, umuntu akagira n'ibitotsi.

Ikimera kiri ahantu mu gihuru, urabona ko ntabwo ari kirekire ntabwo ari kigufi ariko gifite amababi agaye kandi atoshye cyane, iki kimera kikaba gikoreshwa mu miti gakondo, ukaba wakiyifashisha mu gihe wagize agasebe cyangwa ikindi gikomere icyo ari cyo cyose kandi iyo ukinyweye bikugabanyiriza amahirwe yo kuba wafata indwara y'umutima.

Akabati karimo ibihande bitatu, igihandi cyo hejuru harimo imiti yo kunywa, icyo hagati harimo imiti yo kwisiga ndetse n'icyo hasi harimo imiti y'ibinini ariko ibi byose bikomoka ku bihingwa, ibihingwa cyane cyane nk'umuravumba umwenya, nyiramunukanabi ndetse n'igikakarubamba. Iyi miti ni myiza ituma abantu bagabanya umuvuduko n'izindi ndwara zose.

Igiti cy'umuravumba gikoreshwa kandi kikifashishwa mu gutegura imiti gakondo cyangwa imiti ya Kinyarwanda nk'uko abenshi tubivuga, ibi bikaba byagufasha mu kugabanya indwara cyangwa mu kugabanya ibintu nk'ibinure byinshi kandi bikagufasha mu gukiza inkorora ndetse n'indwara z'inzoka zo mu nda.

Igikarito kirimo agacupa karimo umuti wongera vitamine n'imyunyugugu mu gihe umuntu yagize ikibazo, izi vitamine n'imyunyu ngugu bituruka ku bihingwa gakondo twiterera kandi bakabinyuza mu ruganda neza ku buryo umuntu abifata nta kibazo. Izi vitamine zituma umuntu asinzira neza akaruhuka neza ndetse bikaba byamurinda ibibazo bituruka ku mubyibuho ukabije.

Imiti iri mu ubwoko butatu ariko yose ikomoka ku gihingwa kimwe cy'igikakarubamba, harimo isabune ibivanzemo na avoka, hakaza iyo basiga ku munwa, ndetse n'iyo basiga ahantu hakomeretse, ni byiza gukoresha izi kubera ko bigabanya ububabare, kandi bikaba byagukiza ibiheri ndetse n'ahandi hose haba haririrabuye.